Umugabo ufashe umuduri bisa nk'aho ari kuwucuranga. Umuduri kikaba ari igikoresho bakoreshaga mu Rwanda rwo hambere, mu gucuranga ,bikunda gukoreshwa cyane cyane mu majyaruguru bizihiza iby'umuco nyarwanda.